Detani. Umuti gw'ibirayi. Detani ni umuti gwifashishwa cane n'abahinzi kugira ngo gutume ibirayi byera amababi arambuke bityo ibirayi bizabashe gushora neza. Biragoye ko ibirayi byakwera, udakoresheje ugwo muti gwitwa Detani.

Umuganda ni igikorwa ngarukakwezi akenshi gikunze gukorwa ku munsi w'isaha w'isabato icyumweru gisoje ukwezi uyu muganda ukorwaga aho abantu bakora ibikorwa birimo gusibura imigenda kubakira amazu abatishoboye ndetse no gusukura imihanda. Iki gikorwa ni cyiza cyane kuko giteza imbere abantu batuye mu mudugudu ndetse n'igihugu muri rusange.

Ibiganza bifashe ifumbire y'imvaruganda. Imfumbire y'imvaruganda ni kimwe mu byifashishwa bafumbira ibihingwa bigiye bitandukanye, byaba ibinyampeke cangwa n'ibindi bihingwa by'ubundi bwoko nk'ibirayi n'ubundi bwoko bw'ibihingwa. Ifumbire izwiho kugira imyunyu ngugu zifasha igihingwa gukura neza.

Ifumbire y'imborera akaba ari ifumbire iboneka cangwa si ifumbire itangwa n'amatungo go mu rugo nk'inka, ihene, intama, inkoko ndetse n'ubundi bwoko bw'amatungo gashobora kuba gororwaga mu ngo. Ifumbire y'imborera hamwe n'izimvaruganda zifashishwa batera ibirayi ndetse banapurika izindi myaka zitandukanye.

Ifi yokeje. Ubusanzwe ifi ni kimwe mu kinyabuzima kiva mu mazi kikaba kimwe mu bintu, mu biryo cyangwa se mu bintu bikunze gutegurwa cyane ahantu hakomeye nko mu mahoteri, ndetse n'ahandi hantu hakirirwa abantu batandukanye. Amafi ni kimwe mu bintu byiyubashye, kandi bihenze, mu biribwa.

Ikidendezi akaba ari amazi menshi yikusanyirije hamwe, akaba ari ahantu runaka ariko ikidendezi gitandukanye n'ikiyaga kuberako ikidendezi akenshi nta mafi abamo ndetse akenshi kiba kiri ahantu hatoya.

Ubwato bwi'biti buparitse butari kugenda. Ubwato ni igikoresho cifashishwa cane bambuka amazi bava ahantu hamwe baja ahandi. Ubwato burimo ubwoko bubiri: hari ubwato bw'ibiti hakaba n'ubwato bwa moteri. Ico burushanwa, ni uko ubwato bw'ibiti bugenda gake kandi bugatwara abantu bake ugereranyije n'ubwato bwa moteri.

Injanga cyangwa se udusambaza, ubundi ni bimwe mu biribwa nabyo biva mu mazi, bikaba ibiribwa bidakunze kugaragara cyane cyane mu gice cy'amajyaru, mu gice cya musanze, gusa bikaba izi njanga cyangwa se indagara zo m'ubwoko bwazo zikunze kuba ahantu hari ibiyaga nko mu karere ka burera.

Amafi gatunganyijwe mu buryo bwo kubikwa igihe kirekire. Amafi ni bimwe mu biribwa bikunze kugaragara mu ntara y'Amajyaruguru, bitewe n'ibiyaga biri mu karere ka Burera byitwa byitwa Burera na Ruhondo. Rero iyo amafi gakuwe mu biyaga hari uburyo bwo kugatunganya bugiye butandukanye nk'ubwitwa sotingi cangwa semokingi.

Ifi yokeje cangwa yamaze gutunganywa bagiye guseriva ngo barye. Amafi ubusanzwe gaba mu mazi gusa. Amafi ni kimwe mu biribwa bigoye gutegura kandi binahenze mu buryo bwo kugura no kugurisha ku isoko.

Ifi kikaba ari ikinyabuzima kibera mu mazi ariko gikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanyekanye. Ifi igira amahame cyangwa uburyo butandukanye bwo kuyitegura ndetse no kuyibika igihe kirekire burimo nk'ubwitwa sotingi n'ubundi. Ifi ubusanzwe zirahenda.

Umutabo gurimo imyaka, kenshi umutabo ni uburyo ubutaka buhingwa mu buryo bumeze nk'agasozi, ariko nanone karekare gafite uburebure bunini kurusha ubujamusozi, ku buryo ki hategwamo imyaka, ndetse hagati y'umutabo n'undi hakaba harimo indego ishinzwe gufata amazi kugira ngo imyaka zitazatemba.

Umurima gwaraye gurimo ibiti byitwa ibibonobono. Ibibonobono ni bimwe mu biti bikunze kugaragara, mu mirima z'ahantu henshi na henshi ho mu biturage. Ibibonobono akaba ari icatsi akenshi kizwiho kuba kifitemo cangwa se kizanaga utubuto, bavuga yuko iyo itungo rituriye rishobora gupfa.

Igiti c'intagarasoryo; ubusanzwe intagarasoryo ni ubwoko bw'igiti kigira cangwa se ceraga utubuto dushariye gusa tw'umuti uvura mu nda, intagarasoryo zikunze kuba ahantu mu byaro cangwa si hatari imigi hatari inyubako nyinshi.

Ubuhinge cangwa si umurima guhinze. Ubusanzwe mbere yuko umurima guterwamo imyaka izo ari zo zose, gumanza gutunganywa. Uku gutunganywa, ni uguhingwa hakavanwamo ibyatsi bityo kugira ngo ibihingwa bizaterwamo bizamere byisanzuye ndetse bimerera ahantu heza.

Umurima gwa karoti. Karoti nacyo ni kimwe mu bihingwa byera mu ntara y'amajyaruguru cyane cyane mu turere twa Musanze, Burera ndetse na Gicumbi. Karoti zikaba ubusanzwe ziseswa nyuma yaho zikitabwaho mu buryo bujanye no kubagarirwa gusa zo ntabwo zikenera amafumbire kimwe n'ibindi bihingwa.

Urusasa cyangwa se itsinda ry'imigano. Akaba ari ubwoko bw'ibiti cyangwa se bw'ibimera, bisangwa cyane cyane mu byaro cyangwa se ahantu hitaruye umujyi. Imigano ni bimwe mu biti byifashishwa cyane hakorwa cyangwa se habohwa udusero, uduseke, intara cyangwa se zikaba zakwifashishwa mu isaso ry'ibitanda bimwe na bimwe byoroheje.

Urutoki cangwa se insina nyinshi ziri ahantu hamwe. Insina ni kimwe mu bihingwa bigaragara mu turere twose tw'intara y'amajaruguru, insina zerera hagati y'amezi atanu ndetse n'amezi umunani, insina ni kimwe mu bihingwa byiza, bitewe nuko byororoka ubwabyo umuntu atabigizemo uruhare.

Igikenyeri cangwa ahantu hasaruwe ibigori bakaba bategereje guhingamo ibindi, akenshi ibikenyeri barabirandura kugira ngo babone uko batangira guhinga ubundi buhinge.

Ikinani cangwa se ibyatsi byinshi byameze mu murima, cangwag se mu zindi myaka nyamara bitarashakwaga, ibi byatsi akenshi bikanaza kuruta imyaka nyir'umurima yahinze. Ibi bituma umuhinzi cangwa undi muntu wese ahita ikinani.

Igiti kirekire c'umushipure gikikijwe n'ibindi biti birimo ikidariya. Ibi ni bimwe mu bwoko bw'ibiti bikunze kugaragara cane cane mu Karere ka musanze k'Intara y'Amajaruguru. Umushipuri usibye kuba ari igiti gishobora kwifashishwa nk'uruzitiro, na none ni igiti kivamo ibikoresho bibajwe mu mbaho nk'intebe ameza n'utubati twiza cane kandi turamba.

Ikibara cyari kirimo ibigori bikarandurwa kikaba gitegereje guhingwa. Ikibara kugira ngo gihingwe bitewe n'aho ariho, nk'ikibara cy'imitabo nka cumi n'itanu bifata nibura nk'iminsi ibiri, iyo ari nk'abantu babiri bari kugihinga.

Umushogoro cyangwa se amababi gaza ku bishyimbo. Ni bimwe na agamababi usibye kuba ganaribwa, ubundi nago gavamo uruyange rutanga ibishimbo nyuma na nyuma. Umushogoro ni kimwe mu biribwa biribwa bishobora gutekwana n'ibindi biryo nk'ibirayi, cyangwa ukaba watekwa wonyine ugakarangwa.

Injege ifashe igitoki， akenshi ibitoki iyo bikuze biba bihengamye ku rwego bishobora no kugwa， kugira ngo iki kibazo gikemurwe hifashishwa igiti co gufata igitoki， ngo kugira ngo kitagwa citwa injege. Injege akenshi ishobora kuba igizwe ari umugano cangwa igiti gisanzwe.

Umumero gw'imyaka cyangwa se imyaka ibihingwa biri kumera ibihingwa akenshi bifata igihe kingana n'ukwezi urugero nk'ibirayi kugira ngo bimere bigere hejuru nyuma yo guhingwa ibi bitandukanye n'ibindi bihingwa birimo ibishyimbo cyangwa ibigori byo bibisaba hagati y'iminsi cumi na cumi nine kugirango bizamuke bigere hejuru bizane amababi.

Voka cyangwa igiti cya avoka kikaba ari kimwe mu bihingwa bikunze kugaragara cyane mu turere dutandukanye tw'intara y'amajyaruguru, akaba ari kimwe mu bihingwa by'ingirakamaro bitanga, ndetse bikaba byuzuza indyo, voka na none yateza imbere uyihinze, igihe afashe voka zezemo akajya azijyana ku isoko.

Igitari cangwa se ishamba akaba ari urwunge cangwa se ibiti byinshi bitewe ahantu hamwe, akenshi mu bitari usangamo igiti ciganjemo ari igiti c'inturusu, igiti c'intusi akaba ari kimwe mu binifashishwa cane bakora ibikoresho bikozwemo mu biti nk'intebe, ameza, ibitanda ndetse n'utubati.

Akayira cangwa se inzira igana ahantu runaka, akayira ubusanzwe ni umugenderano guba gutubatswe ahubwo guba guhuza agace kamwe n'akandi cangwa se urusisiro rumwe n'urundi.

Igiko ni kimwe mu biti bikunze kugaragara mu cyaro ibi ko akenshi biterwa mu mpande y'uruzitiro cyangwa se bigaterwa nk'imbago. Imbago nu kuvuga igitandukanya umurima w'umuntu umwe n'undi cyangwa se igitandukanya isambu y' umuntu umwe n'undi .Akenshi ibiko nanone bikunze kuba bitondagiwe n'ibidodoke akaba ari imboga zo mu rugo.

Amashu igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga, kikaba igihingwa cyera ahantu hari izuba n'imvura biringaniye, kikaba igihingwa gikunze kwera cyane mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda ndetse n'amajyepfo y'u Rwanda. Amashu ni ingirakamaro cyane ku bayahinga n'abayarya.

Ibijumba. Kikaba igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyamafu ndetse binatera imbaraga. Iki ni kimwe mu bihingwa byera mu ntara y'amajaruguru cane cane akarere ka Gakenke. Kikaba ari igihingwa cyera mu misozi ahantu haba itaka rikomeye ryitwa urwondo. Ibijumba kandi ni igihingwa gikunze kugura amafaranga atari menshi ugereranyije n'ibindi bihingwa nk'ibirayi.

Isoko ry'amatungo aha akaba ari ahantu hazanwaga amatungo gaje kugurishwa, cyangwa se waba ushaka kugura itungo runaka uka waza kuhashakira, mu matungo gahazanwaga harimo intama y'ihene ndetse n'inka.

Pipinyeri cangwa se ahantu harererwa cyangwa se ha seserezwa imirama z'imbuto n'imboga zigiye zitandukanye. Muri pipinyeri cyangwa se ahantu haseserezwa imboga n'imbuto zigiye zitandukanye hashobora guseserezwa voka, amashu ndetse n'ubundi bwoko bw'imboga n'imbuto.

Abakozi bari mu murima w'ibigori, ibigori ni kimwe mu bihingwa byera cyane cyane mu Ntara y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu Karere ka Burera, ndetse n'Akarere ka Musanze. Ibigori ni kimwe mu bihingwa byitabwaho kuva bitewe mu butaka kugeza byeze, aho bisaba amafumbire, bigasabwa guterwa umuti mu gihe byatatswe n'indwara runaka, ndetse no gusarurwa, bigatunganywa.

Icayi akaba ari kimwe mu bihingwa bikunze kugaragara cane cane mu murenge mu karere ka Nyabihu, icayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bihingwa ku buso bunini bigashirwamo abakozi bo kubyitaho mu buryo bwihariye ndetse bigasoromwa , nyuma yaho bigatunganwa bikajanwa mu ruganda gukuramo ibicuruzwa byarangiye cyangwa se ibyitwa finishedi porodakiti.

Umubyeyi cangwa se umuhinzi uri kwita ku bihingwa bye akoresheje isuka. Usanzwe isuka ni kimwe mu bikoresho by'ibanze abahinzi bagiraga. Isuka niyo ikoreshwa bahinga. Bahinga ibibara, batabira, buhira baca imyobo n'izindi mirimo zikorerwaga mu murima. Isuka ni igikoresho cy'ingenzi cane.

Igikorwa co gusoroma ibireti. Ibireti ni bimwe mu bihingwa by'umwihariko mu Karere ka Musanze mu nce zegereye ibirunga. Ibireti ni kimwe mu bihingwa byifashishwa mu gukora imiti zigiye zitandukanye, zirimo izica udusimba. Ibireti byera byerera mu byera mu gihe c'umwaka.

Imbuto z'avoka zitari zera, voka ni kimwe mu biti bigaragara cane cane mu ntara y'amajyaruguru mu turere twose tw'igihugu mu turere twose tw'iyo ntara, voka zibamo ubwoko bugiye butandukanye ni ukuvugako hari voka zisha ari icatsi, izindi zigasha ari umukara, voka ni kimwe mu by' umubiri ukeneye cane nk'intungamubiri.

Ibigori biri mu murima bitegereje kwera kugira ngo bibone gusarurwa .Akenshi ibi ni ibigori biba bigihagaze ku misigati, bene byo bakaba bategereje kugira ngo byume kugira ngo intete cyangwa impungure z'icyo kigori zizabe zishoboka guhungurwa mu gihe byahungurwa cyangwa se byagurishwa ku isoko.

Igitoki, kikaba na cyo ari igihingwa cyerera hejuru y'ubutaka. Igihingwa cy'ibitoki gishobora gufata hagati y'amezi atanu n'arindwi kugira ngo cyere. Ibihingwa by' ibitoki birimo amoko agiye atandukanye. Hari ibitoki biribwa, hari ibitarwamo imineke, hari n'ibindi bitoki bakoramo urwagwa.

Ibijumba bikaba ari bimwe mu biribwa bikunze kugaragara cane mu ntara y'Amajaruguru, by'umwihariko mu karere ka Gakenke aho byeraga. Ibijumba biribwa byaba bitekanwe n'ibindi biribwa cangwa se bikaribwa byonyine, ibijumba ni kimwe mu gihingwa kigura amafaranga make ugereranyije n'ibirayi.

Inanasi ni kimwe mu bihingwa cangwa imbuto nabyo byera mu ntara y'Amajaruguru by'umwihariko, mu karere ka Gakenke n'igice gito c'akarere ka Burera. Inanasi ni kimwe mu bihingwa byera bitinze ariko bigatanga umusaruro ndetse bikaba bigurika cane ku isoko.

Indobo y'umweru irimo urubuto rwa wotameroni rukase, wotameroni ni ni rumwe mu mbuto ziryoha cane zifite ibara ry'icatsi inyuma ariko rikagira ibara ry'umutuku mo imbere ndetse gisa n'igihaza, wotameroni zirakunzwe kuko nazo ziri mu bwoko bw'imbuto ziryoha.

Ibisheke ni kimwe mu bihingwa bikunze kugaragara cane cane mu turere tw'intara y'amajyaruguru by'umwihariko mu karere ka gakenke n'igice kimwe cy'akarere ka musanze ndetse na burera. Akaba ari igihingwa ubusanzwe gikorwagamo isukari usibye ko kuba gikorwamo isukari hari abakirya conyine kuko kirimo intungamubiri zirimo nk'isukari y'umwimerere umubiri guba gukeneye.

Ikirundo cy'imyembe zeze zimaze gusarurwa. Imyembe ni kimwe mu bihingwa byera mu ntara y'amajyaruguru by'umwihariko mu karere ka Gakenke. Imyembe zifata mu gihe kitari munsi y'amezi ane cyangwa atanu kugira ngo zibe zeze. Ni zimwe mu mbuto zigurwa cyane ku isoko bitewe n'umwihariko ziba zifite go kuryoha ugereranyije n'izindi mbuto.

Imfungo z'ibitunguru zatanditswe ahantu, ziri gucuruzwa. Ibitunguru ni kimwe mu byifashishwa bateka, byifashishwa bakaranga, kikaba ari kimwe mu bihingwa bigaragara cane cane, by'umwihariko mu karere ka Musanze na Burera. Usibye ko n'ahandi, mu tundi duce tw'Intara y'Amajaruguru, ibi bihingwa bibagayo. Ibitunguru ni bimwe mu bihingwa bidahenda cane.

Imyembe akaba ari zimwe mu mbuto zigaragara cyane, cyane cyane mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'amajyaruguru, nk'akarere ka Gakenke detse n'ibice bimwe bya Burera. Imyembe ni kimwe ni zimwe mu mbuto zikunze kwera ahantu harangwa n'ubushuhe ndetse n'izuba ryinshi, kikaba kimwe mu mbuto ziryoha.

Ibicuruzwa bigizwe n'imyembe, n'insenda ndetse n' imbuhu. Ibi biri ku mufuka , ibi ni bimwe mu bicuruzwa bikunze gucururizwa hafi y'umuhanda ,hafi y'amazu g'ubucuruzi aho abantu benshi banyuraga . Ibi nibyo nibwo bucuruzi na none bwitwa ubuzunguzayi.

Umusaza ufashe umujohoro cangwa se isuka ikiri nshasha. Isuka ni igikoresho cifashishwa n'abahinzi mu buzima bwabo bwa buri munsi bwo guhinga. Isuka yifashishwa bahinga, batabira baba buhira cangwa se bakoreshwa n'ibi... bakoresha n'ibindi byose bisaba gukoresha icyo gikoresho. Ni ngombwa ko umuhinzi agira isuka.

Imiceri z'ubwoko butandukanye ndetse ziri mu mifuka zitandukanye ziteretse ku meza. Ubusanzwe imiceri zibamo amoko agiye atandukanye nk'ugwitwa biryane, umutanzaniya ndetse n'izindi bwoko bw'imiceri ziboneka. Ibi byose biboneka mu maduka ndetse mu maduka hashobora kongera kuboneka ibicuruzwa birimo amavuta n'ibindi birungo byo gutekesha.

Depo z'ibiribwa cangwa se ibicuruzwa, akenshi depo ziba zirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, gusa ibyinshi ni ibitangirika mu buryo bumwe bw'ako kanya. Akenshi ibicuruzwa biba muri depo biba biri mu mifuka cangwa se biri mu mashashi, ndetse amadepo agira ibyumba bigiye bitandukanye bishirwagamo ibicuruzwa bitewe n'igihe n'uko bipfunyitse.

Voka akaba ari rumwe mu rubuto ruribwa cane ndetse rufite n'intungamubiri nyinshi. Mu busanzwe, voka ni kimwe mu bihingwa cangwa se mu biti byera cane mu Ntara y'Amajaruguru by'umwihariko mu karere ka Musanze. Voka zibamo ubwoko butandukanye, hari iziba hari izisha ari imikara izindi zigasha ari icatsi.

Umuntu wikoreye ifumbire y'imborera, ifumbire y'imborera ni kimwe mu byifashishwa bari gutera imyaka zigiye zitandukanye nk'ibirayi, ibigori, ibishimbo ndetse n'ibinyomoro. Ifumbire y'imborera itangwa n'amatungo go mu rugo gatandukanye, nk'inka, ihene, inkoko ndetse n'agandi matungo go mu rugo. Ifumbire y'imborera yifashishwa cane kuko ituma imyaka zera.

Amaterasi g'indinganire. Iyi akaba ari dizayini cangwa se uburyo ki, bafata ubutaka bagacukuramo imyanya imwe n'imwe, bagafata ubutaka bakabukora ku buryo ki hagati yabwo hagenda haranyuramo ibyobo byo gufata amazi, kugira ngo bizarinde kurindimuka cangwa se gutwarwa k'umusozi n'amazi. Ibi bikunze kugaragara cyane cyane ahantu haba imisozi.

Ibirayi, akaba ari kimwe mu bihingwa bikunze kuboneka, cangwa se kugaragara no guhingwa mu Ntara y'Amajaruguru, cane cane mu turere twa musa, mu karere ka Musanze. Ibirayi akenshi bikunze kugaragarayo ni iby'ubwoko bwa Kinigi, kuko ni byo byerayo cane. Ubundi, ibirayi kugira ngo byere, hifashishwa ifumbire y'imvaruganda, ndetse n'iy'imborera, ndetse bikaba bigomba kwitabwaho mu buryo bwo guterwa umuti.

Inkokokazi iri kumwe n'udushwi twayo. Inkokokazi ni bumwe mu bwoko bw'inkoko butanga umusaruro cane, kuko burarira amagi bwarangiza bukayaturaga nyuma y'iminsi makumyabiri namwe bityo. umworozi agashobora kugira inkoko nyinshi. Usibye gutera amagi zikayaturaga, zisanzwe zinatera amagi agurishwagamo amafaranga.

Imiteja akaba ari kimwe cangwa si zimwe mu mboga zigaragaraga cane mu ntara y'amajaruguru by'umwihariko mu karere mu turere nka Musanze, Burera na Gakenke, imiteja zikoze ku buryo ki uzitunganya cane nta bindi bintu wongeyemo cyangwa ngo ukureho.

Igihaza cyangwa se idejyede ukaba ari bumwe mu bwoko bw'ibihingwa nabyo biboneka cyane cyane mu ntara y'amajyaruguru hafi mu turere twose twiyo ntara. Amadejyede ari mu bwoko bw'ibiribwa bikunda guhahwa cyangwa se kugurwa cyane ku isoko bitewe n'intungamubiri zifite ndetse n'uburyohe bigira.

Indimu, bukaba ari bumwe mu bwoko bw'amatunda bweraga mu Ntara y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu turere nka Musanze, Burera, Gakenke. Indimu zizwiho kuba ari umuti wifashishwa mu bihe bitandukanye nko kuvura inkorora, anjine ndetse no mu nda.

Igisima kiriho ibicuruzwa cangwa se ibiribwa bigiye bitandukanye by'umwihariko imiteja, intoryi na karoti ndetse n'amapavuro ibi ni bimwe mu bicuruzwa bikunze gucuruzwa cane cane mu isoko ry'ibiribwa, ahitwa Kariyeri.

Ibigori. Kikaba kimwe mu bihingwa byera cane mu Rwanda, kikaba ndetse igihingwa kihanganira ubushuhe n'imvura biringaniye .Ibigori bikunze kwera cyane ahantu hataba izuba ryinshi ndetse hataba n'imvura nyinshi. Ibigori bivamo impungure babirya babirya ari impungure bakabirya babisheshemo ifu y'igikoma.

Ibirayi byahunguye uruyange akaba ari ibirayi biba biri hagati mu mezi atatu cangwa si atatu arengaho icumweru, ubusanzwe ibirayi biraterwa bigatezanywa ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera, bikabagarwa, bikuhirwa ndetse ico gihe biba biri no guterwa umuti mu gihe bitegereje kwera, ibirayi birera cane.

Inyanya kikaba kimwe mu bihingwa byera mu turere tugize Intara y'Amajyaruguru, inyanya ni kimwe mu bihingwa bisabwa kwitabwaho cyane cyane, kuko zisabwa guterwa zigasasirwa ndetse zikajya ziterwa umuti, kugira ngo zibashe gukura. Inyanya zitanga umusaruro, cyane ko ari zimwe mu mboga ziba zikenewe ku isoko.

Itsinda ry'abantu bari gusarura ibirayi cangwa si bari gukura ibirayi. Ibirayi ni kimwe mu bihingwa byera cane cane mu ntara y'amajaruguru by'umwihariko mu karere ka Musanze na ka Burera. Ibirayi mu busanzwe byereraga amezi ane nubwo hari ushobora kuburenzaho gakeya cangwa si akabikura mbere y'uko ago mezi gajyera.

Ibirayi bya kinigi, ubusanzwe ibirayi bya kinigi ni igihingwa gikunze kwera canecane mu turere tw'intara y'amajaruguru, turimo Musanze na Nyabihu canecane mu karere Musanze byera mu mirenge irimo, Kinigi, mu Nyange ndetse na Musanze, kikaba ari igihingwa cyiza ndetse gitanga umusaruro.

Urusenda rwa kizungu ni kimwe mu bihingwa, bihingwa muri kamwe mu'turere tw'intara y'amajyaruguru cyane cyane mu karere ka gakenke, urusenda rwifashishwa haba kubiryo, ndetse no mu nganda bari kurukoramo undi mushongi cyangwa se urundi rusenda rwo mu buryo bw'ibisukika, urusenda ni kimwe mu bihingwa bisabwa kwitabwaho cyane.

Umurima urimo ibirayi, urimo abahinzi bari gukura ibirayi. ubusanzwe ibirayi ni igihingwa cyera cyane mu gice cy'Amajyaruguru y'u Rwanda cyane cyane mu mirenge y'Akarere ka Musanze nka Musanze, Nyange na Kinigi by'umwihariko mu murenge wa Kinigi.

Amateke, na cyo ni kimwe mu bihingwa bigaragara cyane cyane mu Ntara y'Amajaruguru, mu Turere twose tw'Intara y'Amajyaruguru. Akenshi amateke yera cyane ahantu hatari agasozi. Ni ukuvuga mu mubande. Amateke arimo ubwoko bwinshi butandukanye nk'ayitwa bwayisi, amabungu n'andi yandi.

Ibirayi biri mu gihe c'ururuyange, ibirayi ubundi mu busanzwe bifata amezi ane kugira ngo byere ubwo ndavuga mu gice c'intara y'amajaruguru, bitewe n'uko ibirayi mu busanzwe biraterwa byarangiza guterwa mu butaka hifashishijwe amafumbire y'imvura mvaruganda n'imborera bikazabagarwa, bikuhirwa muri ico gihe biri no guterwa imiti mpaka byeze.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa byera mu ntara y'Amajaruguru by'umwihariko mu karere ka Gakenke. Ubunyobwa ni kimwe mu biribwa bishobora kuribwa nyuma yo gusarugwa， bugatunganwa，bukaba bwakarangwa， bukaribwa nyuma yo gukarangwa，cyangwa bakabusya，bakabukoramo ifu ishobora kwifashishwa bari guteka izindi ndyo zitandukanye.

Kuyungurura ubunyobwa akenshi ni igikorwa co kuvana imyanda zimwe na zimwe mu myaka cangwa mu binyampeke, hari abifashisha intara abandi bakifashisha akayungiro bakuramo imyanda. Ibindi bihingwa bishobora gukurwamo imyanda ni nk'ibishimbo, amasaka, ibigori ndetse n'uburo ndetse n'ibindi n'izindi myaka.

Ibihwagari bukaba ari ubwoko bw'ibihingwa bivamo amavuta, ibihwagari byerera hejuru y'ubutaka bikaba bitunganywa nyuma yo kuvanwa mu murima byerekezwa mu nganda, aho bitangira kuvangwa n'ibindi binyabutabire kugira ngo bizavanwemo amavuta nyuma y'aho.

Umutiba gwakoreshwaga mu gihe ca kera ni akazu cangwa se ubwoko bw'ikigega bwabaga bwubatswe mu gisika busakaje, ndetse bufite icyo twagereranya n'inkingi yari ihagazemo indani. Ubu bwoko bw'ibigega ntabwo bu gikunze kuboneka kuko bwasimbuwe n'amazu asakajwe amabati.

Inzu y'ubwanikiro ndetse n'ubuhunikiro rusange, akenshi ni inzu zikozwe muburyoki zirinda ibintu ibihingwa byanitsemo, cangwa se imyaka zanitsemo byanitsemo kuba byagira izuba ryinshi cangwa se imvura itaringaniye ku buryoki iyomvura yabyica cangwa ikabihumanya.

Ubunyobwa, kikaba igihingwa cera ahantu hakunze kuba izuba ryinshi. Ubunyobwa ni ikiriiribwa gishobora kuribwa bagitetse uko cyakabaye nyuma yo gusarurwa, kikanikwa, kigatunganywa, cyangwa se bakagisya kikava mo ifu, bakazayifashisha mu guteka.

ibishimbo by'ubwoko butandukanye byashizwe hamwe mu busanzwe ubundi ibishimbo bibagamo ubwoko bubiri hari ibigufi ndetse n'iby'imishingiriro ibigufi byerera hasi bidakeneye imishingiriro mu gihe ibirebire cyangwa se iby'imishingiro byera mu gihe bishingiriwe ibi byose biba birimo amoko atandukanye nk'ibyitwa akararakagendana na za ka

Umubyeyi urimo kugosora ibishimbo. Kugosora ibishyimbo ni igikorwa cyo gufata ibishyimbo cangwa se n'ibindi binyampeke bigiye bitandukanye birimo ingano, ibigori, amasaka, uburo n'ibindi binyampeke, ukabishyira ku gikoresho wifashisha citwa intara, warangiza ukaja urabicugusa ndetse uri no guhuhamo, kugirango imyanda zirimo itaka n'ibindi bigende biravamo.

igihwagari kikaba ari ubwoko bw'igihingwa giterwa kikazajyanwa mu ruganda nyuma yo gusarurwa kugira ngo gikorwemo amavuta igihwagari ni igihingwa ubusanzwe cera indabo izo ndabo akaba arizo zifatwa zikajyanwa mu ruganda ibihwagari ntabwo bisaba ibintu byinshi nk'amafumbire cangwa se imiti zirenze

Ubwanikiro bw'ibihingwa bwa kijambere, ubu ni ubwanikiro bukoze ku buryo ki bwinjiza izuba rihagije, ndetse bukarinda imvura kuba yakwangiza imyaka irimo imbere. Ubu ni ubwanikiro bushobora kwanikamo kwanikwamo imyaka myinshi bitewe nuko bungana ndetse yisanzuye.

Amahundo cangwa si ibigori byumye bimanitse ku biti byitwa ingango, amahundo akenshi nyuma yuko gamanuwe cangwa si gakuwe ku ngango aho gaba gamanitse garahungurwa, barangiza hagatunganywamo ifu y'igikoma cangwa si bikaba byakoreshwa n'uruganda mu gusya kawunga.

Mu gishanga, mu gishanga hakaba ari ahantu ubutaka buba buri bwiganjemo amazi menshi ku buryo ki ubirebye ubona ari nka nk'ubutaka buri butemye. Akenshi mu gishanga hakunze guhingwamo imiceri gusa bitewe n'igishanga ico ari co, hari n'ahahingwa ibigori ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiribwa. Mu gishanga haba higanje amazi menshi.

Ibigori byumye byasaruwe bikanikwa bikaba bigejeje igihe cyo guhungurwa. Mu busanzwe ubundi ibigori birahingwa, bikamera, rimwe na rimwe bigaterwa umuti mu gihe hajemo ibyonnyi nka za nkogwa nyuma y'aho bigasarurwa. Nyuma yo gusarurwa biratunganywa mu buryo bwo gukuraho amababi bikaja biranikwa ku zuba bakazabihungura bakabishesha.

Imifuka myinshi zirunze ahantu hamwe zidozwe mu buryo butuma ibinyampeke birimo bitavamo, ubusanzwe umufuka ni igikoresho cifashishwa bapakiramo imyaka zigiye zitandukanye; urugero nk'ibirayi ibishyimbo ibigori mbere y'uko bipakigwa mu kinyabiziga gishobora kubijana ahantu runaka, cangwa se ibyikoregwa bitwawe ahantu runaka.

imishogi z'ibishimbo, akaba ari ubwoko bw'ibishimbo byumye biba bigisarurwa mu murima mbere y'uko bitonorwa, bigatunganywa, bikabikwa, cangwa se bikajanwa mu isoko. Imishogi zishobora gusoromwa zumye cangwa se zitumye neza, zikazanikwa kugeza zumye.

Amasakageze amasaka ni kimwe mu bimera cyangwa se ibihingwa bigaragara cyane cyane mu ntara y'amajyaruguru by'umwihariko wo mu karere ka musanze, burera na gicumbi amasaka gafata ameza ane kugira ngo gere ndetse iyogeze gerahejuru y'ubutaka yego.

Ibishyimbo kikaba igihingwa ngandurarugo, cyangwa se na ngengabukungu, kikaba igihingwa cyera ahantu hari izuba n'imvura biringani, ibishyimbo biba mu bwoko bubiri, hari imbuto ngufi byerera hasi, hari n'ibindi by'imishingiriro bashingirira kugira ngo bizere.

Ubwoko bw’ibishimbo butandukanye bwateretswe mu biseke cangwa ibyibo. Ibishimbo ni kimwe mu binyampeke byeraga cane cane mu Ntara y’Amajyaruguru, mu turere nka Musanze, Burera na Gakenke, n’ahandi n'ahandi. Ubwoko bw’ibishimbo buba butandukanye, buterwaga ahantu hatandukanye, bushobora kuvamo nk’imbuto ngufi cangwa imbuto ndende.

Umubyeyi uri kurobanura ubunyobwa mbere y'uko abutonora. Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa byeraga ahantu hakunze kuboneka izuba, cyane cyane nko mu turere twa Gakenke kamwe mu Karere k'Intara y'Amajaruguru. Ubunyobwa ni igihingwa gisabwa kwitabwaho kuva gitewe kugeza gikuze. Usibye ko kidasaba amafumbire nk'ibindi bihingwa.

Uruyange. Uruyange ni ubwoko bw'utubabi dutoya tuvagamo imishogi z'ibishimbo，kugira ngo ibishimbo bize， ubundi habanza amababi，amababi akavamo uruyange，urwo ruyange akaba arirwo ruvagamo imiteja， imiteja zikazavamo ibishimbo.

Ubwoko bw'ibishimbo buri mu mufuka. Ibishimbo ni kimwe mu bihingwa bisangwa cane cane mu Ntara y'Amajaruguru. Ibishimbo bibamo ubwoko bubiri. Hari ibishimbo by'imishingiriro hakaba n'ibishimbo bigufi. ibishimbo na none iyo byeze bisangwamo amoko menshi, nk'ibya Kajamarike, Mutiki, Akarara kagenda ndetse n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibishimbo.

Imishogi z'ibishimbo: Ibi ni ibishimbo biba bimaze kwera ariko bikaba ari ibishimbo by'imbuto ngufiya; imbuto ngufi yerera hasi, ariko ikaba inafite umwihariko yuko ishobora kurandurwa mu murima, ukabijana mu rugo uko byakabaye, ukazabihurirayo mbere yuko ubyanika ngo ubitunganye ubibike, cyangwa uzaje kubigurisha ku isoko.

Soya bukaba ari bumwe mu bwoko bw'ibinyampeke bukunze kugaragara cane cane mu ntara y'amajaruguru mu turere twa Musanze Burera na Gakenke iyi soya ni kimwe mu byifashishwa cyane bari barimo kubetesha ifu y'igikoma ndetse hari n'abayikaranga bakayirya ikaranze soya ni kimwe mu ntungamubiri umuntu akeneye kugira ngo akure neza.

Imifuka myinshi irunze ahantu, iteraniye hamwe ,irimo ubwoko bumwe, burimo imyaka runaka, akenshi imifuka irimo imyaka igiye itandukanye ishyirwa ahantu hamwe, hategerejwe kuyipakira bari kuivana ahantu hamwe, bari kuyijyana ahandi, imifuka ni kimwe mu bikoresho byifashishwa cyane, bari gupakira ibintu byinshi, babivana hamwe, babijyana ahandi.

Umufuka gurimo ibishimbo. Imifuka yifashishwa cane bahunika imyaka igiye itandukanye nk'ibirayi, ibigori, amasaka, impungure, ibijumba, ndetse ikaba yifashishwa banazanikaho imyaka zigiye zi itandukanye.

Ingano ni kimwe mu bihingwa byera cane cane mu ntara y'amajyaruguru mu turere turimo musanze na burera ingano ubundi nicyo gihingwa gikunze kwifashishwa bari gukora imigati usibye ko hari n'ingano bakoramo byeri ingano ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa cyane kandi bitanga umusaruro.

Muhinzi irimo ibigori, akenshi igikosi ca muhinzi ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga, bari gupima ibiro by'ibinyampeke runaka, aho akenshi muhinzi yabaga ingana n'ikiro c'impungure cangwa si ic'ibishimbo. Muhinzi, kugeza ubu ngubu, hari ahantu bakizikoresha nk'uburyo bwo gupima imyaka runaka.

Ibishimbo kikaba naco ari igihingwa gikunze kwera cane cane mu Ntara y'Amajaruguru, mu turere twa Musanze mu mirenge yose. Kikaba igihingwa kiri mu bwoko bubiri aho kigira ibishimbo bigufi byerera hasi, ndetse n'ibindi by'imishingiro bisaba kugira ngo babishingire kugira ngo byere. Ni igihingwa kandi ubusanzwe kiribwa amababi yaco.

Amasaka naco ni kimwe mu bihingwa byeraga mu Ntara y'Amajaruguru, by'umwihariko mu Karere ka Musanze, akaba ari igihingwa kerera hejuru y'ubutaka. Igihingwa gisabwa kwitabwaho uretse ko naco kidakenera ifumbire kimwe n'ibindi bihingwa bimwe na bimwe, gusa kirabagarirwa, ndetse kikanuhirwa byaba ngombwa kigaterwa imiti yo kurwanya udukoko.

inzu icururizwamo imiti y'amwe mu matungo, ndetse n'imirama y'ibihingwa runaka. Aha akaba ari ahantu haba hari abantu ndetse bafite n'ubushobozi bwo kugira inama umuntu ufite itungo rifite ikibazo, ndetse n'uburyo cyakemurwa n'imiti iryo tungo ryahabwa, kugira ngo rikire. Bijyana n'imirama yo gutera.

Amatureyi g'amagi. Akaba ari utuntu dukoze kuburyo ki tujamo amagi menshi, gusa twose tugarukira ku mubare w'amagi morongo itatu. Bivuze ngo itureyi imwe iba irimo amagi mirongo itatu. Izi tureyi ziba zifite uburyo zitondekwamo kuburyo ki amatureyi icumi ahobora kugerekeranya, agatwarwa nta gi na rimwe ryangiritse mo.

Ibibwana by'ingurube biri konka nyina， ingurube ni imwe mu matungo yororoka cane kandi akura vuba， ingurube ishobora kubwagura cangwa se ibyo bita kubyara ibyana biri hagati ya bitandatu na cumi na bitanu icarimwe，kandi ibi byana byose biba bicutse mu mezi atatu.

Ubworozi bw'inkoko. Mu busanzwe, inkoko zishobora kororwa kugira ngo zitange inyama cangwa zitange amagi. Nubwo hari n'izororwa kugira ngo zitange byose, nk'ubwoko bw'inkoko zitwa saswa kenshi ziba zigambiriwe gutera amagi cane nyuma y'aho yazasaza, bakazigurisha. Ubworozi bw'inkoko ni kimwe mu mishinga myiza kandi itanga umusaruro cane.

Impuguke cangwa si abavuzi b'amatungo, ubuvuzi bw'amatungo ni imwe mu myuga zikorwa ndetse zikanigwa mu mashuri ,ni ukuvuga ko abantu bavuraga amatungo baba barize ibyitwa animo porodakisheni ,mu kuvura amatungo, amatungo gavurwa indwara zigiye zitandukanye zirimo uburenge.

Inyana cangwa imitavu cangwa ibimasa bitoya, akaba ari amatungo aba akiri matoya yavutse ku nka nkuru. Inyana akenshi ziba zitunzwe no konka za nyina kugeza igihe zicukiye, mu gihe kingana n'amezi nk'arindwi nyuma yo kuvuka.

Urwuri rw'inka. Urwuri ni ahantu haba hari ubwatsi inka bazishira zarangiza zikaharisha. Akenshi aha hantu haba harimo ibyiciro, hagiye hagabanyijwemo ibyiciro, kugira ngo inka nizisoza kurya ubwatsi bw'agace kamwe runaka, zinjire mu kandi bityo bizahe aho hantu hariwe kuba ubwatsi bwamera.

Ingurube ziri mu kiraro ahantu runaka. Ingurube ni amatungo gororoka vuba ndetse gakundirwa ku kuba ari indyabyose. Ibi bituma ubworozi bw'ingurube bworoha, mu gihe ufite isakaro cangwa se ufite ikirunduro kizima. Ingurube ntizigombera gushakirwa ubwoko runaka bw'ibiryo kuko zijya ibyo aribyo byose, nubwo zigayirwa kuba zinarya ibyana byazo.

Ingurube cangwa se ikibwana c'ingurube. Ingurube ni imwe mu matungo gwororoka vuba vuba ndetse gafite amafaranga muri Kenya. Kwita ku ngurube biroroshe mu gihe ifite ikiraro ibamo itanyagirwa ndetse ikorerwa isuku. Ingurube ni itungo ryiza kuko rirya ibyo ari byo byose ritarobanura, bityo ntabwo rigoye kororwa.

Umukumbi gw'ihene cangwa amahene menshi zikaba ari amatungo yororwa cane mu caro bitewe n'uko ari amatungo gitonda, gagira isuku, gorororoka, gakunzwe cane ndetse iga izana n'amafaranga utibagiwe n'ifumbire.

Isho ry'inka cangwa si inka nyinshi zirimo gukingirwa ubwoko bw'indwara runaka. Ubusanzwe inka zigira ibyorezo zirwara ndetse zikagira n'ubwoko bw'indwara zigenda zirwara nk'uburenge, nyamara izi ndwara zishobora gukingirwa. Rimwe na rimwe habagaho igikorwa co kuzikingira mu buryo bwa rusange.

Itsinda ry'impuguke cyangwa se abagize umushinga runaka, bari kwitegereza ikiraro c'amatungo bagiye kuzorora. Ibiraro by'amatungo ubundi mu busanzwe bigomba kuba bisakariye ndetse bipavomye hasi, gusakarirwa bituma amatungo gatanyagirwa ndetse no gupavomwa bikorosha isuku, mu gihe hari gusukurwa mu gihe runaka.

Igikorwa co gukingira inka ibirondwe. Ubusanzwe ibirondwe ni udusimba dutoya, tuba turi mu ruhu rw'itungo runaka, gusa tukagenda turayirya mpaka kugeza inka ishoboye kuba yapfa cangwa se itagishoboye kugenda nk'ibisanzwe. Rero habagaho igikorwa co gutera umuti ubwo burondwe kugira ngo bupfe.

Umukozi wo mu ibagiro cyangwa se ahantu habagirwaga amatungo y'ubwoko bugiye butandukanye, nk'inka, ihene, intama n'ingurube, uri gutunganya zimwe mu nyama z'itungo ryabazwe. Ubusanzwe inyama zirabagwa ndetse zigatunganywa, zishobora kubikwa mu buryo bw'igihe kirekire, hakoreshejwe ikoranabuhanga, cyangwa se ibikoresho birimo za firigo.

Igisake usibye kuba ari ubwoko bw'inkoko bukunze kuribwa cane, ubundi ibisake ni nabyo bibangurira amagi aterwa n'inkokokazi, kugira ngo ago magi gazashobore kuvamo udushwi dutoya. Muri rusange ibisake biba ari binini cane ugereranyije n'inkokokazi.

Umushwi akaba ari akana gatoya, agatungo gatoya k'inkoko. Umushwi akenshi gutungwa n'ibyo nyina igushakiye. Imishwi akenshi zikunze kugendera hamwe ndetse zikagendera mu mababa ya nyina.

Impongo. Bukaba ari bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi zirisha cyangwa si ziryaga ibyatsi. Impongo ni inyamaswa ija kumera nk'ihene ndetse ikaba inyamaswa iteye ubwuzu mu kuyireba. Impongo ni zimwe mu nyamaswa zisigaye ari nkeya ku isi bitewe n'icika cangwa si kugenda zikendera kwazo.

samusure cangwa se ubwoko bw'inyoni zi z'igasozi, zikaba ari inyoni zikunze ku kuririmba mu gihe ca mugitondo mu museso abantu babyutse. Izi nyoni nanone zikunze gutoragura ibinyampeke byinshi bitandukanye birimo: amasaka ndetse n'ibigori. Izi nyoni ziri muri zimwe zagiye zibura zitakiboneka ahantu mu migi.

Igitera akaba ari imwe mu nyamaswa z'igasozi zifite umwihariko wo kugira ibyo zihuza nk'abantu nko kurira ibiti ndetse rimwe na rimwe no kugendera ku maguru abiri. Izi miterere kandi bizihuza n'izindi nyamaswa zirimo inkende ndetse n'inguge. Ibitera ni ubwoko bufite amasura gihariye ndetse n'umubiri gwihariye, aho zifite ibibuno bimeze by'imituku.

Umuserebanya kakaba agasimba kari mu bwoko bw'ibikururanda cangwa ibitondagirankuta, kakaba agasimba akenshi gateye ubwoba mu kukareba ariko katajya karyana.

Akanyamasyo. Ni kamwe mu nyamaswa z'igasozi zizwiho kurya ibyatsi. N'ubwo aka kanyamasyo kazwiho kugenda gakeya cyangwa se gukora ibintu byako kiturije, ni inyamaswa iramba igihe kinini, aho ishobora kumara cyangwa se kugeza ku myaka ijana na mirongo itanu.

Ikinyogote ni ubwoko bwi bw'inyamaswa y'agasozi, izwiho cangwa se ifite umubiri ugizwe n'amacumu. Aga macumu nigo yitwaza cangwa se yitabaza iri kwirwanaho, mu gihe itewe n'ubundi bwoko bw'inyamaswa ishaka kuyigirira nabi. Ibinyogote biba mu ishamba ndetse hari n'ibiba mu myobo.

Isatura bukaba ari ubwoko bw'inyamaswa y'agasozi，iryaga ibyatsi，gusa ikaba ifite isura ikanganye. Isatura akenshi zikunze kuba ziri kugendera hamwe n'izindi nyamaswa zo mu muryango wazo.

Igikeri nyamabondo kikaba ari rimwe mu nyamaswa z'igasozi zizi cangwa se zifite zifite ubushobozi bwo kuba icarimwe ku butaka ndetse no mu mazi, bitewe n'uko zihumeka zikoresheje uruhu cangwa si ibihaha.

Ingagi akaba ari imwe cangwa se zimwe mu nyamaswa ziba muri parike y'Ibirunga, iherereye mu Karere ka Musanze k'Intara y'Amajaruguru, usibye ko hariho n'igice gitoya giherereye mu Karere ka Burera. Izi zizwiho kuba hari byinshi zihuje n'ikiremwa muntu nko kugenda n'amaguru abiri, ndetse no guhana abana bazo, ndetse izi zishengurwa cane n'impfu z'abana bazo.

Inzoka akaba ari bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi z'ibikururanda, inzoka ubusanzwe zigira ubumara ku buryoki iyo ikurumye ushobora gupfa utabonye ubuvuzi, kuvurwa aho inzoka yakurumye byitwa kugomborwa.

Inguge bukaba buri mu bwoko bumwe n'ibitera n'inkima ndetse n'ingagi ibyitwa cempanze. Ubusanzwe izi nyamaswa z'igasozi zija neza neza kumera nk'inkende, n'ubwo zo zifite amabara gihariye g'imikara n'amaso g'imikara.

Agaca cangwa si ubwoko bw'ibiguruka bukunze gufata udusimba turimo: amafi ,inkoko ndetse n'utundi dusimba two mu mazi, agaca kazwi kugendera ku muvuduko munini ku rwego gafata ibindi biguruka nk'inkoko cangwa si amafi mu kanya nk'ako guhumbya.

Agaca ni bumwe mu bwoko bw'ibiguruka cyangwa se inyoni zizwiho gutwara udushwi cyangwa se n'inkoko zitari nkuru cyane. Agaca gakunze gutwara inkoko mu gihe iyo nkoko idafite ubundi bwirinzi cyangwa se itari ahantu hubakiye .Uduca kandi dukunze no kujana ibindi bintu bitari inkoko.

Impala zikaba inyamaswa zigizwe n'amanani n'amabara abiri, iry'umweru n'iry'umutuku agenda akurikirana mu buryo bw'imirongo. Izi nyamaswa cyangwa se na ngenzi zazo, zikunze kuba ahantu hatari amashamba gacucitse. Urugero nko mu Rwanda, impala, ziba mu ishamba cyangwa se pariki y'Akagera.

Inkima zikaba bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'inyagasozi ziri mu bwoko bumwe n'inkende. Izi nyamaswa zikunze kuba mu matsinda ariko zikaba inyamaswa zitagira amahane kimwe n'inkende.

inuma ni izi ni ubundi bwoko bw'inyoni zizwiho kuba ari inyamahoro ndetse zitera n'umugisha, ku rwego bavuga yuko iyo inuma igeze iwawe cyangwa yinjiye iwawe, aba ari umugisha cyangwa urasurwa, inuma ni zimwe mu nyamaswa nziza kandi zitagira amahane, zikunda kuguguza

Icari cangwa si intaho y'inyoni, Icari gikozwe mu buryo ki kiba cubatswe mu byatsi aho inyoni igenda ifata utwatsi runaka ikagenda iduteranya kugeza ikoze akantu kameze nk'akazu iraramo, yaba yo ndetse n'umuryango gwayo. Ibyari akenshi bikunze kugaragara ahantu hitaruye imijyi mu biti biri kure y'imijyi.